Ino shusho yerekana abasirikare babiri, bambara ingofero, bafite n'intwaro zabo baheka ibikapu, barebana mu maso.

Ishusho yerekana umuyobozi ahagaze imbere y'abaturage benshi cyane, hirya y'aho hari ishyamba ryinshi cyane. Babaga mu kibuga, hirya hari abasirikare.

iyi shusho yerekana umurima ubamo amasaka, yeze menshi cyane, bakoramo umusururu, cyangwa se ikigage. Aya masaka agaragara nk'ayeze ageze igihe cyo gutemwa.

Hari inzu bubakisha ibyatsi, inyuma yayo hari ibiti byinshi cyane bifite ibibabi by'icyatsi, n'urugo rukikije inyuma yaho.

Hari umugabo wambaye ikoti afite abana n'ubumuga yambara ingofero y'umukara, ikoti ry'umukara, inkweto z'umukara. Inyuma ye hari ibyatsi byinshi cyane yari ahagaze ku muhanda areba hirya.

Hari amashuri bigamo, hari abafundi bubaka, bari kubaka rigori, hari n'abakozi benshi cyane, bari kugenda hirya hirya inyuma cyane,..

Sheri atwereka mu nzu muri salo babamo, habamo intebe eshatu n'ameza imwe. Inzu yubakishije amatafari ahiye.

Cyerekana imodoka igenda hejuru y'ikiraro, inyuma yayo hari abagabo bagenda ku magare na za moto, abagenda n'amaguru.

Hano herekana ipoto y'amashanyarazi, imbere yayo iri ku irembo ry'urusengero basengeramo. Hari n'ahantu bakarabira intoki mbere yuko binjira mu rusengero. Hari n'abantu babiri b'abakobwa.

Hari imodoka enye nini cyane. Imwe y'umutuku, indi y'ubururu, indi isa n'icyatsi. Izi modoka zose zigenda mu muhanda. Ariko hano ziraparitse muri parikingi.

Abakinnyi babiri bari kurwanira umupira bakina umwe yambaye umwenda iniforume y'umweru, undi yambaye jezi y'umukara. Bose bari kumwe na Rubitile bari kurwaniraa umupira hirya hari abafana benshi benshi benshi cyane umwe wambaye n'udupfukamunwa.

Ishusho yerekana umukinnyi w'umupira w'amaboko handi boro, yambaraga umupira anditseho nimero makumyabiri n'enye, wanditseho Rwanda.

Yerekana abakobwa babiri, bari mukibuga basa nabakina umupira wa basiketiboro, nyuma hirya hari hari abantu ba bafana, abantu bari gukina umupira mu kibuga.

Sha yerekana ahantu hari ishamba ricamo akayira, hirya yakayira hakaba hari ishamba ryinshi cyane banyuramo.